Abaganga ndetse n'abandi bantu basanzwe harimo n'urimo gufotora. Bajyanye umurwayi mu mbangukiragutabara. Aho iyi modoka y'imbangukiragutabara, ikora cyane iyo umurwayi yarembye kugira ngo imugeze kwa muganga, abashe guhabwa ubuvuzi.

Abagabo babiri bambaye ubupfukamunwa batwaye igikoresho aho bari imbere y'imodoka y'umweru yanditseho amagambo ko ari minisiteri y'ubuzima Nyagatare hosipito, ni ivuriro riri muri Nyagatare aho aba ari abakozi bashinzwe ubuvuzi mu Karere ka Nyagatare.

Abantu bicaye ku murongo kandi ahantu munzu hari intebe z'umutuku, bicaye bambaye impuzankanro y'amasengeri y'umweru n'umusaraba w'umutuku, aho imbere yabo hari uwambaye umupira w'umutuku, inyuma urimo umusaraba, ni ikirangantego gikunda kuranga ikigo cy'ubutabazi cyitwa croix rouge barimo guhabwa ibiganiro cyangwa inyigisho zijyanye n'icyo gikorwa.

Abantu bashinzwe ubutabazi bw'ibanze babiri. Ni abasore, bateruye umuhungu wagize ikibazo. Aho bagiye kumuha ubutabazi bw'ibanze. Bambaye impuzankano z'ikigo gishinzwe ubutabazi cyitwa Croix Rouge.

Abagabo babiri bambaye impuzankano z'akazi, batwaye umurwayi nk'ubutabazi bw'ibanze, bamukuye mu mbangukiragutabara bihuta, umurwayi arwaye aryamye ku gatanda kabugenewe, bamujyanye mu ivuriro kumuha ubuvuzi bw'ibanze.

Abantu bicaye hamwe barimo kuganira, bamwe barimo kwandika mu makaye, imbere yabo kandi hateretse ibyo kunywa, harimo abambaye impuzankano z'umutuku aho hariho umusaraba bishatse kuvuga ko bakora ubutabazi bw'ibanze mu kigo gishinzwe ubwo butabazi cyitwa Croix Rouge.

Abantu bahuriye hamwe bambaye impuzankano z'amajiri y'umutuku n'umweru harimo umusaraba bivuze ko bari mu gikorwa n'ubukangurambaga bwo gutanga amaraso, bikunda gukorwa n'ikigo gishinzwe ubutabazi croix rouge cyane cyane bafatanyije n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Imodoka itwara abarwayi. Mu kinyarwanda kiza yitwa imbangukiragutabara. Harimo umuntu uyitwaye, aho agiye gukora ubutabazi bw'ibanze. Izingizi zikoreshwa mu gihe umurwayi arembye cyane, adashobora kujya kwa muganga, imodoka ikajya kumufata mu buryo bwihuse, kugira abashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze.

Abantu babiri bambaye impuzankano bagiye gufata umuntu bamushyire ku gatanda kabugenewe kajyaho abarwayi, barimo kumukorera ubutabazi bw'ibanze kugira ngo bamujyane kwa muganga, ni umurwayi warembeye ku nzira.

Ahantu hahagaze abantu benshi ariko harimo abaganga ndetse n'umuntu wambaye impuzankano y'ubutabazi bw'ibanze, ku kigo cya Croix rouge. Aho barimo kuganira ndetse bakaba begeranye n'umuzungu.

Abantu barimo kugenda ahantu mu isoko bashinzwe ubutabazi bw'ibanze. Bambaye ijiri iriho umusaraba w'umutuku. Abangaba bakunze kuba baturutse, mu kigo gishinzwe ubutabazi bw'ibanze Kuruwaruje. Aho bafasha umuntu ugize ikibazo cy'uburwayi cyangwa, ikihungabana kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Abantu batandatu bahagaze mu nzu imbere yabo hari imashini, harimo abazungu batatu n'abirabura batatu. Abirabura bamwe bambaye imyenda y'imituku iriho imisaraba bigaragara ko bakora mu Kigo cy'ubutabazi cya Croix Rouge.

Ibitanda by'abarwayi, amavuriro menshi agira ibitanda biryamaho abarwayi, akenshi abo barwayi baba barembye, abarwayi rero hano bararwaye, baryamye ku buriri bwabugenewe, ibi ngibi biba igihe umurwayi agiye kwa muganga, abaganga bakabona arembye cyane ntibemere ko ataha, ahubwo akaba ari mu bitaro kugira ngo abashe kwivuza neza, akazata yarorohewe.

Inzu nyinshi zitandukanye kandi zubatse neza harimo n'indabo, aho iyi nzu imeze nk'ivuriro, aho abarwayi bajya bakajya guhura na muganga kugira ngo muganga abashe kubaha ubuvuzi, bakunda kubahakorera ubuvuzi bugiye butandukanye ndetse bakavura n'indwara zitandukanye.

ikigonderabuzima cya Nyagatare aho harimo imbangukiragutabara ihaparitse ikunda gutwara abarwayi barembye cyane, ibakorera ubutabazi bw'ibanze. Akenshi iyi modoka ikura abantu mu ngo zabo cyangwa mu bice batuyemo barembye ikabazana kuri iri vuriro kugira ngo babashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Abantu bahagaze ku marembo manini, ariho icyapa cyanditseho ibitaro by'Akarere ka Nyagatare. Ni ibitaro abarwayi benshi bivurizamo kandi baba barembye cyane. Ni ibitaro biri mu karere kacu ka Nyagatare.

Umuganga umwe ndetse n'abandi babiri bicaye bategereje ko muganga abaha imiti. Muganga ari kureba mu ikayi, kandi imbere ye hari imiti. Bivuze ko abo barwayi bategereje ko muganga abaha imiti y'indwara barwaye.

Imodoka y'imbangukiragutabara, irimo ibikoresho birimo nk'agatanda umurwayi aryamaho ndetse n'intebe umurwaza yicaraho ndetse n'intebe umuganga yicaraho, ari kumwitaho mu gihe ataragera ku ivuriro, iyi ni imbangukiragutabara ikunda gukoreshwa mu gihe umuntu yarembye kugira ngo imugeze kwa muganga mu buryo bwihuse, ahabwe ubutabazi.

Icyumba kirimo umurwayi ndetse n'umuganga. Umurwayi arimo kubwira umuganga indwara arwaye. Muganga yateze amatwi, arimo kubyandika kugira ngo abashe gusuzuma umurwayi, bamenye b inwara ararwaye ndetse n'imiti bagomba kumuha.

Ivuriro. Ivuriro ririho abarwayi batandukanye baje kwivuza. Akenshi abari ivuriro ryakira abarwayi barwaye indwara zitandukanye. Harimo ababyeyi ndetse n'abana aho batanga ubufasha mu kubyaza. Kuvura indwara nka za malariya, mu inda ndetse n'ibindi.

Abaganga babiri ndetse n'umurwayi umwe ufite umwana, barimo kumwandikira imiti muganga agomba guha umurwayi kugira ngo abashe gukira, imbere yabo hari imiti myinshi igiye itandukanye.

Muganga afite igikoresho kifashishwa mu gupima no gusuzuma indwara runaka. Akenshi gikoreshwa nko gupima amaraso kugira ngo barebe ko ari mazima, cyangwa sida. Nanone ikaba yapima kugira barebe ko nk'ikiribwa runaka cyaba gifite mikorobe.

Umuganga wambaye ga. Afite urushinge ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gukurura umuti no kuwutera mu muntu. Arimo gupima ngo arebe aho umuti ugeze kugira ngo atere urushinge umurwayi.

Abana bo mu mashuri y'inshuke bambaye impuzankano z'amashati y'ubururu bwerurutse hasi akaba ari umukara, bakoze uruziga barimo gukina. Hari ababyeyi babari impande barimo kubigisha uburyo bakinamo.

Ahantu hari abantu benshi, harimo bambaye impuzankan nk'abaganga ndetse n'ababyeyi, aho bari mu gikorwa cy'ubuvuzi cyangwa undi bujyanama, umuganga arimo gufata umurwayi akamutera urushinge.

Abantu bahagaze hamwe b'abagabo, aho harimo n'umwe ushinzwe umutekano w'umupolisi, abandi babiri bakaba bambaye imyenda isa y'ubururu. Aho bahagaze ahantu hamwe bari kwifotoza, bari mu gikorwa kijyanye n'ubuzima.

Abantu bari ahantu mu biti birebire bicaye, hari umuntu ubare imbere urimo kubaganiriza aho ari kubaha ikiganiro kijyanye n'ubuzima, hari abicaye ku ntebe ndetse hari n'abicaye hasi.

Umuntu uri imbere y'abantu harimo gutanga ikiganiro, ni ikiganiro gisanzwe cyitwa Isanzwe one stop center book, aho arimo kugaragaza igitabo bazajya basoma kirimo ibintu bijyanye na isange.

Abantu harimo abagabo n'abagore bicaye hamwe barimo kuganira, bicaye mu matsinda, inyuma yabo hari imifuka igeretse neza. Barimo kuganira cyane cyane ku ngingo zijyanye n'imibereho cyangwa ubuzima.

Muganga wambaye itaburiya y'akazi ndetse n'ikarita y'akazi arahagaze ari imbere y'aho akorera, impande ye habitsemo ibitabo byinshi biba birimo amakuru y'abarwayi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu bahagaze imbere y'abandi bambaye imipira isa icyatsi, umwe muri bo afite indangururamajwi arimo gutanga ikiganiro, umudamu we afite icyapa cyanditseho ngo "ababyeyi cyangwa umuryango baharanire kugira umuryango uzira amakimbirane", mu bukangurambaga barimo gukorwa kugira ngo hubakwe umuryango nyarwanda mwiza.

Abantu bari ahantu hamwe bambaye impuzankano, impuzankano bambaye n'iz'abashinzwe gucunga abanyururu cyangwa abafunze, aho bicaye ahantu hamwe bari mu biganiro, bameze nk'abantu bari mu nama.

Abantu barimo gutanga ubutabazi bwihutirwa aho umurwayi yarembye bakaba bamuteruye kugira ngo bamushyikirize abaganga, ibi bikunze gukorwa n'ibigo bishinzwe ubutabazi harimo nka Croix Rouge ndetse n'ibindi.

Abantu bicaye mu buryo bugiye gukora ikiziga. Imbere yabo hari umuntu urimo kubaganiriza. Bivuze ko bari mu nama cyangwa ikindi gikorwa kibahuza nk'itsinda ndetse n'ibindi. Bari ahantu hameze nko ku murenge, aho imbere ibitambaro biriyo biteguye mu mabara y'ibendera ry'igihugu cyacu.

Abadamu ndetse n'abagabo barishimye, bafite ururabo aho baruhaye umudamu umwe, ni igihembo cy'uko yabyaye, baracyari kwa muganga ndetse hari n'abandi babyeyi bari ku ruhande bafite abana.

Abantu baricaye imbere yabo hari umudamu ufite indangururamajwi, arimo kuganiriza abantu, kandi inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo" baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe".

Abantu bahagaze hamwe, harimo abirabura ndetse n'umuzungu. Barimo kwifotoza ifoto y'urwibutso, aho bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga mu bijyanye n'imibereho ndetse n'ubuzima bwiza.

Imodoka nini cyane imeze nk'inzu aho iba irimo ibikoresho bitandukanye, iba yagiye ahantu kure mu cyaro kugira ibashe gufasha abantu. Hari abaganga ndetse bari kumwe n'abantu barimo kwitabwaho.

Iyi inzu irimo imiti y'amatungo. Ni imiti igiye itandukanye, ivura n'amatungo atandukanye. Zimwe mu ndwara amatungo akunda kurwara, harimo inzoka ndetse cyane cyane nko ku nkoko zikarwara umusinziro n'inkorora.

Inzu iriho imiryango ibiri ifunguye, hariho icyapa cyanditseho farumasi Iraguha, bivuze ko ari inzu icuruza imiti y'abarwayi aho abarwayi bajya barwaye muganga akabasuzuma akabaha imiti noneho na bo bakamuha amafaranga.

Inzu icuruza imiti y'abarwayi umuganga cyangwa undi muntu wize ibijyanye n'ubuzima, ajya kurangura imiti akayegereza abaturage, aho umurwayi arwaye agenda akajya kwisuzumisha, muganga akamuha imiti noneho umurwayi nawe akamuha amafaranga, harimo imiti itandukanye iri mu dukarito ndetse no mu macupa.

Inzu irimo imiti y'abarwayi. Ni inzu y'ubucuruzi aho umuntu wabyigiye kuvura nk'umuganga, ajya kurangura imiti akayizana akayicuruza ,aho abaturage baturiye. Iyo umurwayi arwaye aragenda muganga akamusuzuma, akamuha umuti uhuye n'indwara arwaye ,maze umurwayi nawe akamwishyura amafaranga.

Inzu icuruza imiti y'abarwayi harimo umuganga w'imbere, uba urimo kuyicuruza. Akenshi umurwayi arwaye, aza hano hari imiti muganga akamusuzuma yasanga indwara afite ifitiye umuti, Muganga akamaha umuti noneho umurwayi nawe akamuha amafaranga.

Inzu icuruza imiti y'abantu, harimo umuganga witeguye kwakira abarwayi aho abarwayi baza muganga akabasuzuma noneho akaha imiti yabugenewe cyangwa imiti y'indwara barwaye nabo bakishyura. Iyi nzu icuruza imiti rero ni igikorwa ngandurabukungu gikorwa n'umuntu wigiye ubuganga kugira abashe kuvura abaturage, nabo bamuteza imbere.

Inzu icuruza imiti y'abarwayi, harimo abaganga babiri b'umuhungu ndetse n'umukobwa, aho baba bategereje abarwayi kugira ngo babakire babahe imiti noneho abarwayi na bo babishyura amafaranga.

Inzu y'ubucuruzi icuruza imiti y'abarwayi, harimo imiti itandukanye aho umuntu wigiye ibintu bijyanye n'ubuzima wakita nk'umuganga, arangura imiti akayegereza abaturage. Mu gihe umurwayi arwaye akaba yaza muganga akamusuzuma, akamuha imiti ijyanye n'indwara arwaye, noneho umurwayi na we akamwishyura.

Abana batandukanye bakiri bato bari nko mu mashuri abanza cyangwa ayisumbuye, bafite icyapa cyanditseho wiceceka rwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Bari gukora ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa ry'abana cyangwa i hohoterwa ryose rishingiye ku gitsina.

Ivomero rusange ririho abantu baje kuvoma n'amajerekani ndetse n'umuntu uvomesha. Bikunze gukorwa nk'ahantu hatuye abantu benshi nko mu gakaritsiye. Aho abantu bajya kugura amazi yagiye kugira ngo babashe kuyakoresha mu buzima busanzwe kandi iki gikorwa uba usanga ari nk'icya Leta, aho amazi abahendutse akenshi ijerikani y'amazi iba igura igiceri cya makumyabiri.

Abantu batandukanye bafite icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo International dialogue, bivuze ko ari twimakaze ibiganiro byigisha ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko no mu muryango.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, aho harimo abambaye impuzankano y'imipira y'icyatsi, bari mu gikorwa kijyanye n'ubuzima, aho barimo gukora ubukangurambaga ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage no kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzima.

Abantu batandukanye, harimo abahanzi, abashinzwe umutekano, bafite icyapa, kirimo gushishikariza abantu gukoresha agakingirizo, mu kubungabunga ubuzima.

Umuntu ufite umuti mu ntoki uzingazingiye mu gipapuro cyanditseho amagambo. Uyu muti ni umuti gakondo aho uba waravuye mu bihingwa cyane cyane mu bibabi. Ukoreshwa mu kuvuzwa indwara zitandukanye. Aho uyu muganga akoresha uyu muti nta miti y'abazungu ugiyemo cyangwa imiti yaciye mu ruganda.

Abantu barimo gutunganya umuti. Ni umuti wavuye mu bihingwa aho babifashe bakabicanira byamara gushya bagakuramo amazi y'ibibabi, bakayayungurura kugira ngo abashe kuvamo amazi cyangwa umuti uvure umurwayi. Ubu buvuzi gakondo aho bakoresha imiti itanyuze mu ruganda cyangwa imiti y'abazungu.

Umuntu wicaye, afite ikibazo cy'uburwayi cyo kubyimba amaguru. Akaguru kamwe karabyimbye cyane akandi ntago ari cyane. Iyi ndwara bakunda kuyita imidido, aho umubiri ubyimba cyane, akenshi abaganga bakunda kwivura.

Umurwayi uri kumwe na muganga. Uwo murwayi n'umudamu ukuze, bose bakaba bambaye agapfukamunwa. Muganga arimo kumutera urushinge. Aho ari kurumutera ku rutugu.

Ababyeyi benshi bagiye kwa muganga kandi bafite n'abana, ni igikorwa gikorwa n'ababyeyi aho abana baba bagiye kubatera inshinge cyangwa ubundi buvuzi bahabwa kugira ngo babashe gukura neza kandi bakure nta indwara nyinshi barwaye.

Umuganga uvura amaso, ahagaze ahantu hari amarinete menshi atandukanye bisobanuye ko ari umuganga w'amaso ndetse hari na rineti zitandukanye zihabwa umuntu urwaye amaso kandi ukeneye amarinete kugira ngo abashe kureba neza.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi mu cyumba. Aho umurwayi arimo kwisuzumisha, abwira muganga indwara arwaye maze muganga akandika muri mashine. Ibi bifasha umuganga kumenya uburyo ari buguhe ibizami ndetse n'imiti ari buguhe.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi harimo kandi abarwayi baryamyemo, ni ivuriro ryiza aho riba rifite aho abarwayi bagomba kuryama iyo barembye cyane, ibi ngibi biba igihe umurwayi agiye kwa muganga muganga akabona arembye cyane agomba kuguma kwa muganga kugira ngo bamwiteho, abo barwayi rero baryama kuri ibi bitanda bakahava bakize.

Abantu bicaye ahantu hamwe kandi ku murongo harimo abagabo ndetse n'abadamu, imbere yabo hari umuganga urimo kubaganiriza ibijyanye n'ubuzima cyane cyane bari kubabwira ibijyanye n'ubuzima kugira ngo bagire ubuzima bwiza cyangwa se bakaba baje kwa muganga kwivuza.

Umuganga wicaye imbere ye hari imiti myinshi cyane. Hari abarwayi babiri bamwicaye impande harimo ufite umwana. Aho bategereje ko muganga abaha imiti ivura indwara cyangwa se indwara bandikiwe muganga akaba arimo kubaha imiti iyivura.

Inzu iri mu marange y'ubururu yanditseho icyapa cya Giruzima bivuze ko hari ivuriro, aho abarwayi bajya bahura na muganga kugira ngo abashe kubaha ubuvuzi, hari abarwayi bicaye bategereje ko muganga abakira.

Ahantu heza hubatse mu makararo y'umweru, abantu barimo gukaraba kandi bambaye udupfukamunwa, ni igikorwa kiba cyarakozwe kugira ngo harindwe zimwe mu ndwara zitandukanye zandurira mu gukoranaho ndetse n'ibindi, bambaye agapfukamunwa nko mu gihe cy'icyorezo cya Covid cumi n'icyenda.